Inyubako igaragara nk'ubwogero, hafi yaho hagaragara nk'aho ari hoteri, imbere yayo hari umucaca, ku ruhande hakaba hashashe amapave asa umuhondo n'ay'umukara, inyubako ikaba ifite ubwogero, busa ubururu ndetse n'umweru, ku mpande hasa umweru.

Icyumba cy'uburiro, icyo cyumba cy'uburiro kikaba gifite inkingi zisi iranye ry'mweru harimo intebe ndetse n'abandi bantu bari gufungura amafunguro impande yabo hateretse izindi ntebe hepfo hakaba hari ameza asize hejuru irangi ry'umuhondo, hasi hashashemo amapave ndetse gifite n'amadirishya afite ibirahuri bisa umukara.

Abamotari batatu; umwe ahetse umugenzi, yambaye ijire y'ubururu abandi babiri bari ku ruhande bambaye amajire y'umutuku iruhande rwayo yabo hakaba hari inyubako igaragara nk'aho icururizwamo ibinyobwa ndetse n'iinyuma yabo hari etage isize irangi ry'umweru ku nkuta zayo

Umukanishi uri kuri moto y'umutuku, impande hari umumotari wambaye ijire y'akazi, asa n'uri kuyikora aho yaba yangiritse iruhande rw'aho bashyiramo vitensi. Ku ruhande hakaba hari akapa gasize irangi ry'umuhondo.